Abantu bakoresheje ibirori bishimye, bagiye kwarura ibiryo; buri wese akajya yarurira ku isahani ye, akarura ibyo ashaka, ibiryo bitandukanye birimo umuceri, ifiriti, ndetse n'ibindi biryo biryoshye bagiye kurya bakamera neza.

Ibikoresho bya gakondo bikoreshwa iyo bamaze gukama, bakayashyira mu bisabo, bagacunda, bagasuka mu nkongoro, maze ayo mata bakayanywa kugira ngo abafashe mu mibereho ya bo, abagirire akamaro.

Abakinnyi bakina umukino wa basket bari gukina kugirango batsinde...